Umugabo wambaye amarinete n'umugore uri hirya wambaye ishati y'umweru n'amanete n'undi mugabo uri iburyo yambaye ishati n'amarinete umwe umugabo uri hagati afite mikoro mu ntoki imbere.

Abantu bicaye benshi bisa nk'aho bari mu mahugurwa, bafite utuntu tw'uducupa tw'amazi ku ruhande yaho harimo abagore, harimo abagabo, harimo abazungu; hirya hari ibyapa byinshi byamamaza ibyo barimo.

Umugabo wicaye yambaye ishati ari kure mu maso h'umugabo uhagaze wambaye umupira w'umweru n'ingofero y'ubururu, imbere yamuteretse imeza iriho akuma k'umukara n'ingofero y'ubururu iri hirya, umusore wambaye umupira w'umweru ufite ingofero.

Amagambo manini ari mu ibara ry'umweru ku ruhande rw'ibumoso hari umugore ku ruhande rw'iburyo hari umugabo ,umugore yitwa Batamuriza Hajari umugabo yitwa Mbera Emmy bose uko bigaragara birasa nkaho hari abanyamakuru bo kuri radio Rwanda.

Ikirere gisa neza ipoto ishamikiyeho insinga nyinshi ibiti byinshi, abantu bari kumuzamuka n'abamanuka mu muhanda w'igitaka.

Umugabo udafite umusatsi wambaye rinete uri kumwenyura gake yambaye ikanzu irimo amabara menshi bisa nkaho ari umucamanzara y'amabara menshi y'umukara n'umutuku usa na oranje.

Ikiganza gifashe agapapuro k'itora hariho abagabo batatu batorwa, uwambere yambaye karuvati na kositimu, uwa kabiri ntayo yambaye yambaye ishati gusa, uwa gatatu yambaye ishati na karuvati gusa uwa vivuwe ni uwa gatatu.

Amabara abiri y'mweru n'ubururu n'amagambo yandishije ibara ry'umukara, amabara y'buryo iburyo hari ibara ry'ubururu harimo n'ibimanuka n'iruhande rw'iburyo harimo amagambo amabara y'ubururu amanuka.

Imodoka yo mu bwoko bwa ronge sashi, ihetse inka nyinshi cyane iri mu muhanda w'umukara hirya hari ibiti byiza cyane bifite amabara meza y'icyatsi.

Amabisi atatu: iya mbere ni nini ni iy'ubururu, izindi ni ntoya, ebyiri z'umweru; impande yaho hari abantu benshi, basa nk'aho ari muri gare; hasi hari umuhanda w'umukara w'uturongo tw'umweru.